Abana bashyize intoki ku mazi arimo amanuka ava mu gihume yinjira amanuka ajya hasi bakayatangira umwe agafata intoki akazishyira ku mazi n'undi nawe agafata intoki akazishyira hejuru y'undi, ibi bintu bigaragara ko atari byiza kuko umwe arashaka gutobera undi ndabona hari umuntu ufite ikintu ashaka kuvomeramo ari byiza rero.

Umuntu wambaye neza aramukije umuntu wambaye nabi, biragaragara ko uyu muntu yambaye neza cyane rwose. Arimo araramukanya n'umuntu wambaye nabi yambaye imyenda yatabutse. ibutura yatabutse, umushatsi reka reka reka sinakubwira, nawe arimo aramureba cyane yagize ubwoba kuko yambaye nabi.

Aha hari abagore batatu bari ku mu rongo umwe, bari mu nzira barimo baragenda, inyuma yaho hari abandi bagabo babiri, barimo babagenda inyuma, bigaragara ko rero hari ahantu barimo barajya, byanze bikunze barombereje imbere, bafite aho bagiye.

Iki ni ikirangantego cy'u Rwanda, handitse uruziga mo hagati harimo igiseke n'amashami epfo yaho handitseho repubulika y'u Rwanda minisitiri ofu yarifu.

Uyu muntu ari kwa muganga kandi ararembye, ndahabona abantu bamuhagaze hejuru bihebye bafite ikibazo yuko wenda adashobora gukira, ariko ndabona rwose bimeze nabi rwose urabona ko uyu muntu ababaye cyane, kandi urabona ko n'abantu bahari bafite impungenge, urabona ko batishimye.

Iyi ndabona ari mashini isya imbuto izishakamo umutobe kugira ngo abantu babashe kubona intungamubiri. Mu by'ukuri ndahabona amacunga, indimu, amavoka, inyanya n'ibindi byinshi by'imbuto, ndahabona n'ikintu bagomba gushyiramo ibyo barangije gutunganya.

Hano ndahabona ibikoresho byifashishwa mu mikino no mu myidagaduro, bifasha abantu kwishima ndetse no kunezerwa, ndahabona akadenesi, ndahabona na futu boro, ndahabona vore boro, imipira y'amoko yose abantu bifashisha kugira ngo bidagadure.

Ibikoresho bizinze bizingiyeho ibintu bakunda gukoresha bapfuka ibisebe cyangwa se harI depurikate bamanika, ndabona macupa apfundikiye y'ubwoko bugiye butandukanye maremare, ndabona n'udushashi dufungiyemo icyo bita stati codi n'ibindi byose bitandukanye bihari.

Urabona ko hano hantu hagaragara ibikoresho byifashishwa nko mu bwiherero cyangwa se kumesesha, kugira ngo bifashe abantu kugira isuku ndetse no gutanga impumuro nziza, hirindwa umunuko ndetse n'ibindi bintu byose bishobora kugaragaza umwanda.

Ahantu heza cyane hateretse uducupa twiza tw'amoko yose, utw'umweru, udukarito, utundi tuntu tugiye tugerekeranyije twiza, harimo imiti itandukanye y'amoko yose aho hari hariho rido y'igitenge n'ibindi bintu byiza cyane.